Umugore n'umugabo bagiye ku ivomera gushaka amazi bitwaje amabuni yabo, umugore yambaye igitambaro mu mutwe, mu gihe umugabo ari kuvoma afashe ku ibuni ndetse no ku mugezi, hejuru yabo hari undi mu mumama wambaye akenda k'umutuku.

Umwana mutoya w'umukobwa wagiye kuvoma amazi mu mugezi utemba, akoresheje ibuni, aho yafashe ibuni ye akayidubika mu mugezi, ikigaragara cyo uyu mugezi ku nkombe zawo hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara. Uyu mugabo yagiye kuvoma amazi. Yicaye ku njerekani ye yajyanye kuvomesha. Ikigaragara cyo uyu mugabo arishimye kuko arimo guseka cyane.

Umumama wo mu cyaro wambaye agapira k'amaboko magufi n'agapfukamunwa, ufite umusatsi wa natirere, urimo gukarabya umwana we w'umuhungu wambaye impuzankano y'amashuri abanza.

Abana bari kuvoma amazi yo kunywa ku kigega cy'umukara, bambaye impunzangano isa, bafite ibikombe bisa icyatsi, ikigaragara cyo iki kigega ahantu giteretse ni ahantu hari amabati ashaje cyane ndetse yanatoye umugese.

Inyubako nziza cyane ikoze mu buryo bw'ikizeru, ikaba ifite ingazi zizamuka zijya hejuru ku nyubako, aho hazengurutswe n'uruzitiro rukozwe n'ibyuma.

Abantu bari mu nzu mberabyombi bicaye mu matsinda atandukanye, muri abo bantu harimo umugabo wambaye ikote ry'umweru, harimo umugore ufite imisatsi y'umutuku.

Abamama benshi bicaye ahantu bateruye abana babo, abo bamama harimo urimo kugorora umwana, harimo urimo konsa umwana yewe harimo n'umupapa umwe. Muri abo bana harimo uwambaye umwenda w'umweru.

Umubyeyi w'umupapa uri ahantu mu cyaro, wambaye bote, ufite igikombe mu ntoki. Ari kumwe n'abana be bane. Arikubakarabya intoki kugira ngo abashe kubagaburira. Mw'abo bana harimo uwambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufiya cyane.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye ahantu hasi, yambaye ubusa. Ubona ko afite agahinda gakabije ndetse abaye mu buzima bugoye, hirya ye nta bindi bimuzengurutse usibye ibikuta by'inzu byonyine.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bahagaze barimo kwifotoza. Ikigaragara ni uko aba bantu bavuye mu nama runaka, bakaba bashaka gufata ifoto y'urwibutso. Harimo abagore ubona ko bishimiye iki gikorwa, ndetse harimo n'abagabo bafite akamwenyu ku munwa.

Umugabo w'igikara wirabura cyane, uri ahantu hari imyanda myinshi cyane y'ubwoko butandukanye, harimo nk'ibisigara by'ibikomoka ku modoka, aho twavugamo nk'amapine ashaje ari inyuma ye hirya gatoya, icyugi cy'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abana batoya ubona ko bishimye cyane bicaye ahantu bameze nk'abari kureba umupira, n'aba bana bambaye impuzangano ifite ibara ry'umuhondo, hari n'abateze udutambaro mu mutwe dusa umweru.

Umuntu w'umugabo uhagaze ahantu mu kirongozi hagati y'ibikuta bibiri by'inzu, araramye areba mu kirere ubona y'uko afite ibitekerezo byinshi ari gutekerezaho n'ibintu yibaza.

Umwana w'umukobwa wishimye cyane, wicaye mwi ishuri ku ntebe akaba yambaye impuzangano y'umukara n'umweru, afite imisatsi myiza miremire ari guseka kandi arya umugati.

Umukobwa mwiza cyane urimo koza amenyo akoresheje uburoso yireba mu kirori kiri imbere ye, yambaye isengeri y'umweru ndetse arishimye kandi bigaragara ko ari mu gitondo abyutse.

Umugabo uri kugerageza gukura iryinyo akoresheje urudodo n'amaboko ye, ubusanzwe Abanyarwanda iyo bakeneraga gukura iryinyo, bifashisha ibikoresho nk'urudodo mu gihe iryo ryinyo rijegajega.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzangano y'ubururu. Bigaragara ko ari batoya bakiga mu mashuri abanza. Bari koza amenyo bakoresheje uburoso bwagenewe koza amenyo. Muri bo hari ufite uburoso bufite ibara ry'umuhondo,

Umugore uhagaze afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, ubona yuko ari kwitegereza mu biganza bye cyane. Uyu mugore afite umutwe utariho agasatsi na kamwe kandi ahagaze ahantu hari umugezi.

Umukobwa w'umuganga, uri kumwe n'umusaza arimo gupima umuvuduko w'amaraso, uy'umukobwa yambaye impuzangano y'abaganga isa ibara ry'umweru, mu gihe uyu musaza bigaragara ko ashaje cyane kuko imvi zabaye uruyenzi.

Abacuruzi b'abamama bicaye mu isoko aho bacuruje imboga n'imbuto bitandukanye, harimo inyanya, amacunga n'imyembe, ikigaragara cyo aba bacuruzi bibumbiye hamwe kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Abagore banini bari kugenda n'amaguru mu muhanda wa kaburimbo, bambaye impuzangano isa ibara ry'ubururu, undi umwe ndetse n'umugabo umwe bambaye imyenda idasa, ikindi kandi kuri uwo muhanda hateye indabo z'ubwoko butandukanye iruhande rwawo.

Umuryango uri kumwe hamwe wishimye bari guseka buri wese urabona ko afite akamwenyu ku munwa we, harimo umusaza w' imvi z'uruyenzi wambaye agashati k'umweru bigaragara ko ariwe mukuru w'Uyu muryango kandi harimo umupapa ufite umwana ku rutugu.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uri kumwe n'umukobwa w'umwirabura. Ikigaragara cyo aba bantu bari bagiye mu nama y'akazi.

Umuganga urimo gusuzuma umurwayi amubaza uko ameze. Inyuma y'uyu mugangakazi w'umwirabura, hahagaze undi muganga w'umuzungu, wambaye impuzangano cyangwa se imyenda y'akazi isa ibara ry'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'ubuvuzi. Imbere y'iyi nzu hari umugabo wambaye umwenda w'umweru, ndetsei iyi nzu mu mbuga yayo harimo ubwatsi butandukanye.

Inyubako y'ikigonderabuzima, iyi ni inyubako abarwayi bagana iyo bakeneye ubuvuzi bw'ibanze. Imbere y'iyi nyubako hicaye abantu bane harimo abakuru babiri n'abana batoya babiri bigaragara ko bategereje ubuvuzi.

Umugabo w'umuganga ndetse n'abaforomo, bari mu nyubako yagenewe ibikorwa by'ubuvuzi, uyu mugabo wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umutuku, ari kwitegereza muri mudasobwa areba amashusho arimo.

Ikigo nderabuzima cya Kiniga. Ku minjiriro y'iki kigo nderabuzima hahagaze umumama uhetse umwana mu nkoshi. Uwo mwana yambaye akagofero k'umutuku mu mutwe afite agashora k'umweru mu gatuza. Hirya ku idirishya ry'ikigo nderabuzima hari abagabo babiri bahagaze bigaragara ko bategereje kuza guhabwa ubuvuzi.

Inzu igeretse kabiri ikorerwamo ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi, imbere yayo mu mbuga hari indabo zitandukanye ndetse n'umuhanda utandukanye, iyi nzu iteye amarangi harimo ay'umweru.

Umusore urimo kunywa amazi meza y'urubogobogo, ayakura mu gacupa gatoya kabonerana, umusore yambaye isaha ku kaboko, ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufiya.

Abantu babiri, bari mu ikibuga gikinirwamo, imikino njyarugamba. Aho bari kurwana umwe, yambaye umwenda, w'ubururu, undi yambaye umwenda, w'umweru. Uwambaye umwenda w'ubururu, afite umukandara w'umukara. Mubijyanye n'imikino njyarugamba.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, urimo kuvura umurwayi uryamye ku gitanda. Uyu murwayi afite ikibazo cy'umugongo, aho bari gusuzuma umugongo we, muganga akabirebera mu mashini iri hirya ye yabugenewe.

Umugabo w'umuzungu w'umusore cyane, uri gukora imyitozo ngororamubiri, akoresheje umugozi, yaziritse ku kaguru ke, akawufatisha ku cyuma kiri hirya ye.

Umusore uri gukanda mu matako bigaraga y'uko ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura imitsi igize amatakoye bitewe n'uko yakoze siporo umwanya muremure bigatuma amaraso yipfundika, ari kuhakandakanda kugira ngo imitsi ibashe kurambuka, amaraso atembere neza mu mubiri.

Tangawizi ziri ahantu imwe muri zo bayisataguye, tangawizi zikoreshwa mu guteka icyayi ndetse rimwe na rimwe iyo umuntu arwaye inkorora bayifashisha nk'umuti wa kinyarwanda.

Ikimera gitoshye cyane gifite ibara ry'icyatsi, cyamereye ahantu mu butaka bw'urubuye rwinshi, nk'uko bigaragara aha ni mu misozi miremire kuko niho haba itaka rigizwe n'amabuye menshi.